Impuguke mu bijyanye n'uburobyi zambaye imyambaro y'akazi, iri mu ibara rya kaki, ari kumwe n'aborozi b'amafi babigisha uburyo bwiza bashobora gukoramo umwuga wabo.

Inyubako ngari cyane igizwe n'ibidendezi bitandukanye, birimo impombo zizana amazi muri ibyo bidendezi byororerwamo amafi ndetse n'umusore wambaye umwambaro w'akazi uri mu ibara rya kaki arimo asobanurira abamusuye uko bikorwa.

Umurima urimo ingemwe z'ibihingwa bigiye bitandukanye harimo icyayi ariryo cyifashishwa mu gutanga amafaranga avuye hanze y'igihugu.

Ububiko burimo imiti itandukanye y'ubwoko bwinshi, yifashishwa mu kuvura amatungo agiye atandukanye bikarinda indwara.

Akabati karimo imiti itandukanye yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye z'amatungo bigatuma umusaruro wiyongera yaba uw'amata cyangwa uw'inyama.

Akabati karimo imiti iri mu macupa y'umweru, iyo miti ikaba iriho inkoko ndetse n'imishwi, iyo miti ikaba yifashishwa mu kuvura inkoko ndetse n'andi matungo kugira ngo byongere umusaruro binafasha abantu kwiteza imbere.

Abahinzi barimo gusarura umuceri banawuhura kugira ngo batware imbuto gusa impeke n'abandi hakurya yabo bafite isuka barimo gutongora umurima kugira ngo amazi agende neza mu murima w'umuceri.

Abahinzi abagore batatu ndetse n'umugabo, bari mu murima w'umuceri barimo kubagara kugira ngo bazagire umusaruro mwiza kandi ushimishije.

Umugabo wambaye imyambaro y'akazi, ikote riri mu ibara ritukura, arimo aratera ibiti bizafasha mu gutanga imbuto bikazarinda imirire mibi.

Abahinzi barimo gusarura umuceri, bafite amagare bifashisha mu gutwara umusaruro wabo, uva mu murima ujya ku ruganda.

Umugabo uteruye igiti kiri mu mufuka w'ibara ry'umweru yambaye umupira uri mu ibara ritukura n'amabara y'ubururu akikijwe na bagenzi be harimo abagore, umugore umwe yambaye umupira w'umweru ipantaro y'umukara barimo guhinga ibiti babungabunga urusobe rw'ibinyabuzima n'ibidukikije.

Ibiganza byambaye uturindantoki turi mu ibara ry'umukara, ndetse n'umupira uri mu ibara ritukura, ibiganza bikaba biteruye ibirayi biri mu ibara ry'umweru.

Umubyeyi uteruye imbuto zitandukanye mu biganza bye zirimo umwembe, karoti ndetse n'ibitunguru byifashishwa mu guteka ndetse bikanarwanya imirire mibi.

Imboga n'imbuto z'amoko agiye atandukanye, harimo imineke, karoti, intoryi, n'inyanya byifashishwa mu guteka ndetse bikanarinda imirire mibi.

Ibirayi biri ku mugozi wabyo bifite ibara ry'umweru biri ku butaka ndetse biragaragara ko ari umusaruro mwiza uzafasha abaturage mu kwiteza imbere.

Inzu isakajwe amabati, isize irangi ry'umuhondo n'umuhondo, ifite inzugi ziri mu mabara y'ubururu n'amadirishya y'ubururu, insina ziri ku mbuga zifite n'ibitoki bifasha mu mirire, mu kurwanya imirire mibi.

Umuhanda ukikijwe n'ibiti byinshi hirya no hino, umusore ndetse n'umukobwa barimo bawugendamo bava ahantu hamwe bajya ahandi.

Inzu nziza ikikijwe n'ishyamba rinini cyane, rigizwe n'ibiti bigiye bitandukanye, bipfukiranye kandi ririmo urusobe rw'ibinyabuzima bigiye bitandukanye, bikaba bifasha mu gukurura umwuka mwiza abantu bahumeka.

Ishyamba rigizwe n'ibiti bigiye bitandukanye, ndetse n'ikibaya kirimo ibihu bigaragara ko ari ahantu, hasa neza, ndetse hakurya no hakuno hakikije ikibaya hose ni mashyamba.

Igiti gifite imbuto zishamikanye ari nyinshi, kifashishwa mu kuvura bya kinyarwanda.

Ingemwe y'igiti cy'umwembe iri mu gikombe cyo mu ibara ry'umukara ndetse n'indobo zirimo ingemwe z'ibindi biti by'ubwoko bugiye butandukanye.

Umuhinzi wambaye imyambaro y'akazi; yambaye ingofero y'umukara n'umwambaro w'akazi, uri mu ibara ritukura ndetse afite icyo asaruriramo imbuto, arimo gukusanya umusaruro.

Umubyeyi wambaye imyambaro y'ubururu n'icyatsi ufite itiyo arimo avomerera ibihingwa.

Umurima urimo ibihingwa bisa neza cyane ndetse n'imashini zifashisha mu kuhira amazi, mu kuyageza ku bihingwa ndetse n'udusozi dusa neza dukikije uwo murima.

Urubyiruko rw'abakorerabushake abayobozi bo mu nzego z'igihugu, abaturage bafite amasuka bari mu gikorwa cy'umuganda.

Umugabo uri mu murima, umurima uhinzemo ibigori, mu murima harimo amatiyo ari kugenda azana amazi yo kuvomerera ibigori, umurima ukikijwe n'imisozi.

Umuntu wambaye imyambaro y'akazi, ufite igikoresho cyifashishwa mu gusukira ibimera, gifite ibara ry'umweru n'icyatsi. Arimo aruhira imboga, kugirango azabone umusaruro ushyitse.

Umurima uteyemo ibigori ndetse n'imboga ukaba urimo impombo zisohora amazi azuhira izi mboga ndetse n'ibigori kandi akaba yuhirwa mu buryo bw'ikoranabuhanga hifashishijwe urumuri rw'izuba.

Itsinda ry'abahinzi bari mu murima bambaye imyambaro y'akazi, iri mu ibara ry'ubururu. Bari mu murima w'ibigori ndetse n'amashu barimo kuhira.

Imisozi iteganye hakurya no hakuno isa neza cyane, hagati yayo harimo ikiyaga cy'amazi.

Ikiraro kirimo isaso kikaba kirimo ingurube nziza cyane iri mu mabara y'umweru n'umukara, iyo ngurube yambaye iherena ku matwi yayo, iherena rifasha mu kumenya ubwoko bw'ingurube ndetse n'imimero iyiranga.

Itsinda ry'abaganga b'amatungo batanu, babiri muri bo bambaye imyambaro y'akazi y'umweru batatu muri bo bambaye imyambaro y'akazi yo mu ibara ry'ubururu, mu rupango rubamo inka z'inyambo.

Icyumba kirimo akabati karimo imiti y'amatungo ndetse n'imashini ikama inka, idufasha mu gutanga umusaruro unoze w'amata, aho tubona amata asukuye bikadufasha mu kurwanya imirire mibi.

Inkoko zikuze ziri mu kiraro cyazo ndetse harimo icyo zinyweramo, zimwe muri zo ziri kunywa amazi ndetse no ku ruhande hari ibase irimo amazi bazibikiramo amazi zizakenera.

Abaganga b'amatungo bane umushumba ndetse umwe mu baganga arimo guha ihene imiti bifasha kuzirinda indwara.

Itsinda ry'inkoko nyinshi zibumbiye hamwe mu kiraro ndetse n'utwo zinyweramo amazi turi mu ibara ry'umweru n'umutuku ndetse n'ikigega gifasha mu kubika amazi azakenerwa mu kugaburira izi nkoko.

Umugore wambaye umwambaro w'umukara ndetse ari kumwe n'imifuka itandukanye igiye irimo umusaruro kandi ubona ko bizamufasha mu kwiteza imbere.

Icyumba kirimo abaganga bambaye udupfukamunwa two mu ibara ry'umweru n'udupfukantoki tw'ibara ry'umweru ndetse n'umwambaro w'akazi uri mu ibara ry'umweru basuzuma imiti ndetse n'ibikoresho byabugenewe.

Itsinda ry'abaganga b'amatungo. Bamwe bambaye imyambaro y'ubururu, abandi bambaye imyambaro y'umweru n'urupango rurimo inka.

Itsinda ry'abaganga b'amatungo batatu muri bo bambaye imyambaro y'akazi n'ibara ry'ubururu, babiri muri bo bambaye imyambaro y'akazi iri mu ibara ry'umweru ndetse n'inka ziri mu ruhango barimo kuzitaho.

Inyamaswa iri mu mabara y'umweru n'umukara, iri mu byatsi birebire, ikikijwe n'ibiti bigiye bitandukanye ubona ko inezerewe n'aho iba.

Inyoni iri mu ibara ry'umweru n'umukara andi mabara avanze ihagaze ku giti, izindi nyoni eshatu zirikumwe z'amabara y'umweru n'umukara zihagaze mu gisambu.

Inyamaswa yo mu bwoko bw'amapusi manini izwi nk'Ingwe iri mu giti, iryamye ku giti cyumye iri mu ishyamba irimo irota izuba, bityo kota izuba bigafasha mu migendekere myiza ndetse n'imibereho myiza y'umubiri wazo.

Itsinda ry'intare ebyiri ingabo n'ingore ziryamye mu bwatsi mu ibara ry'umuhondo zikaba zinezerewe aho ziri kandi niho zisanzwe zituye mu buzima busanzwe.